Udukinisho two muri nursery mu mashuri y'inshuke dutandukanye, dufite amabara agiye anyuranye, yiganjemo ay'umutuku n'ay'umweru n'ay'umukara n'ay'ubururu.

Igikoresho cyifashishwa mu mashuri y'incuke bigisha abana batoya gikoze mu buryo gifite impande nyinshi n'amabara atandukanye ay'ubururu, umuhondo icyatsi kibisi, umutuku, ...

Abana b'abahungu bahagaze umwe hateye akaguru hakurya undi ari inyuma ye bambaye bodaboda kandi uwimbere ari gusiga irangi ku gikuta.

Itako ry'itungo ryabazwe rimanitse hejuru mu musumari nk'inyama ziri kugurishwa kandi imbere yaryo, hari ingorofani itwara inyama izigemurira, abandi bazitumije kugira ngo bazirye.

Umwana w'umuhungu uhagaze ugaragara igice kimwe, wambaye ikabutura n'inkweto zifunze n'agapira k'umweru, iruhande rwe hari undi nawe utagaragara k'umutwe kandi hafi yabo hashushanyije inyoni.

Akaboko kanini kabyibushye gashushanyijeho imitwe ibiri y'abantu, ariko mu buryo butandukanye hakaba inyuma yako hafite ibara ritandukanye n'irindi.

Intebe z'umweru ziri hamwe zigiye zigerekanye zimwe ebyiri, izindi imwe ukwayo kandi n'akabati gateretseho ibikapu bimwe bikoze mu myenda ibindi gakoze mu myenda, ahandi hari amakaye atenze ku murongo agiye agerekana.

Mu ishuri aho umwarimu ari kwigisha umwana ishuri ry'inshuke, ikibaho kiri imbere umwana yagifasheho umwarimukazi ufite indangururamajwi ari kuyivugiramo.

Umupira wa baro urimo amabara atandukanye uteretse utariho umuntu, inyuma ya'wo hari idubu iri kuza iwusanga ariko itarawugeraho ifite ibara ry'umukara ku mutwe.

Ishuri ryubatse neza rifite amadirishya y'ibirahure risakaje amabati y'umweru inyuma yaryo hari ishyamba kandi urugi rukinze.

Abana batoya bari mu kiganiro cyitwa itetero, umwe muri bo uko ari batatu afite indangururamajwi, abandi babiri bahagaze bari kuri radiyo Rwanda, aho abaturage bose baba bari kubumva.

Igikoresho kiba muri buwate matematikare, kifashishwa mu gucora ibiziga cyane cyane iyo ari mu gushushanya kandi gikoreshwa cyane mu mashuri y'ibanze.

Ku ishuri hari ibikoresho yifashishwa mu kwiga cyane cyane mu mashuri abanza azwi nka pirimeri ariyo ikaramu, ibitabo byo gusoma n'amakereyo yo gushushanyisha.

Mu burezi bw'ibanze bwa pirimeri mu isomo ry'ikinyarwanda, ahari ahanditse ngo: "Kinyarwanda", hejuru handitswe ngo "Akire endi ubongo", hari n'imibare yanditse kuva kuri rimwe kugera kuri karindwi.

Ibiganza bishushanyije biri kumwe n'agapfukamunwa kandi hakaba hari na bote z'umukara, ni ku gishushanyo kandi inyuma gifite ibara ry'umweru.

Amashuri y'ibanze aho bigishiriza abana ubumenyi bw'ibanze bubafasha gukura kugira ngo bazige andi masomo arimo igikoresho kifashishwa mu gihe bari kwiga mara.

Mu cyumba k'ishuri mu mashuri y'ibanze harimo abana bicaye ku murongo ahagana ku kaboko k'iburyo, harimo umwarimu uhagaze ufite urupapuro mu ntoki, wambaye ikote n'amatarata bameze nk'abari mu ibazwa.

Inzu yubatse neza kandi ikaba isakaye, ifite inkingi imbere yayo zisize irangi, kandi nayo ikaba isize irindi rangi ry'umuhondo n'iry'umweru imbere yayo hari indabyo kandi hari n'ubusitani.

Mu mashuri abanza harimo umwana w'umuyeshuri uri ku kibaho, imbere ye hari umwarimu wambaye amataratara arimo amwerekera, iruhande rwabo hari umumama wicaye ku kagare k'abafite ubumuga kandi hari n'undi uri kumufasha uhagaze imbere.

Irate ifashishwa gucora uruziga nk'irindi ryifashishwa baca imirongo n'ikereyo no gushushanya n'igoma yo gusiba, kandi hakaba n'akitwa kompa kifashisha baca uruziga mbere y'ibyo bikoresho hari buwate bibikwamo.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'ibanze, arimo guteranya kandi harimo n'utundi tumeze nk'utubiye turi mu tubati mu dukoroboyi twatwo.

Ishuri rya segonderi ryubatse neza, ryubatse mu buryo bugeretse bizwi nka etaje. Hejuru hari abanyeshuri bahagaze hafi n'utwuma twitwa garide fo, Hasi hari abandi nabo bahagaze.

Ikigo k'ishuri cya pirimeri cyubatse neza kinini, kigeretse imbere yacyo hari umusekirite n'abandi bagabo bahagaze bambaye amakote, udupfukamunwa n'umugore uri kumwe n'abakobwa babiri.

Inyubako, yubatse neza, ifite, ubwirinzi, ku mpande, twita, Garidefo, kumuhanda, wa kaburimbo, uri imbere, yayo, kandi, mbere yayo, hari amazu, n'intebe, zigiye zitandukanye.

Amashuri y'ibanze, ishuri rya pirimeri, imbere yaryo hari imbuga y'igitaka, kandi hari abana basohotse, bari mu gihe cyo kuruhuka, bakoze uruziga, bafatanye mu ntoki, mwarimu abarimo hagati ari kuberekera.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza harimo irate ricora uruziga n'irindi rica imirongo n'utundi dukoresho twifashisha baca ibiziga kandi harimo n'agaconga ikereyo na buwate ibikwamo ibyo bikoresho iri ku ruhande.

Bowate irambitse ifunguye ibamo ibikoresho bitandukanye yifashishwa mu mashuri cyane cyane abanza havuyemo irate hifashishwa baca uruziga n'irindi akoresha baca imirongo ari iri gukoresha iyi kompa aca uruziga.

Ishuri rya pirimeri ryubatse neza rigeretse rya etaje kandi hafi yaryo hari ibiti n'ubusitani indabyo, imbere yaryo ari abanyeshuri bari kugenda bambaye iniforume.

Ku kigo cy'amashuri y'inshuke hari ibishushanyo bishushanyije, higanjeho iby'inyoni iyitwa isandi iri kumwe n'intashya kandi zihagaze ku buryo burebana.

Inyubako yubatse neza ifite igiti giteye imbere yayo kandi kiri gusigwa amarange agiye atandukanye, inyuma yaho mu gipangu haparitse moto kandi iruhande rwayo ahagana mu mutwe hamanitse ikigega cy'umukara kijyamo amazi y'imvura.

Ku ishuri rya Primaire mu mashuri abanza, aho abana bahera biga ubumenyi bw'ibanze harimo intebe, ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa kubigisha nk'amacupa n'inyuguti zigiye zanditse mu biti.

Mu ishuri rya pirimeri ishuri ry'ibanze ahari amakereyo yifashishwa mu gushushanya, hakaba amarate agiye atandukanye yifashishwa mu gucora imirongo, no guca ibiziga n'igoma risiba igihe muntu yanditse icyo adashaka.

Inzu yubatse neza isakaye ikomeye ifite urukuta rw'amabuye rugiye rwubatse mu buryo bw'amasikariye, kandi ifite inzugi n'amadirishya byinshi.

Amashuri y'ibanze mu cyumba hari ibikoresho byifashishwa mu kwiga no kwigisha abana batoya harimo: imashini, hakabamo ikereyo, amarate n'igomwa.

Buwate ibamo ibikoresho bitandukanye, imwe ifunze indi ifunguye, irimo ikereyo kandi ifitemo na tayikeleyo agakoresho bifashisha baconga ikeleyo.

Mu ishuri aho abana bafatira ubumenyi, umunyeshuri afashe urupapuro mu ntoki, yambaye ishati y'umweru ari kumwe na mwarimu amuhagaze iruhande kandi ari kumwerekera.

Abanyeshuri bicaye hamwe ku murongo ku ntebe z'umweru kandi yiganjemo abasore nabakobwa bose bari mu kigero kimwe bamwe imbere, abandi inyuma mu nyubako.

Abanyeshuri ba segonderi bari hanze mu isomo, bari kwiga bigishwa na mwarimu wabo abahagaze imbere, afite bimwe mu bimera mu ntoki ze ariko bibereka abishyize hejuru kandi bahagaze hamwe ku murongo.

Ishuri rya segonderi ryubatswe neza, rifite amakaro ku mpande hari inama y'abanyeshuri irimo n'ababyeyi n'abayobozi, abanyeshuri hagati harimo umudaso bahagaze bambaye iniforume n'imipira y'ishuri.

Inyubako yubatse neza nk'amatafari ahiye isize irangi n'umuhondo ifite ibyuma imbere bizwi nka garidefu ihagazemo abakorerabushake babiri undi mugabo umwe yazamuye ikiganza arikwereka abandi hejuru y'igisenge.

Ikigo k'ishuri cya segonderi kirimo abagabo bicaye ku ntebe z'umweru za pulasitike imbere yabo hari umugore ufite ibisuko mu mutwe, imbere ye hari ameza ahagaze ari umwana ushushanyije ku gikuta handitseho n'amagambo.

Abana b'abanyeshuri ba secondaire bari hamwe, abahungu babiri ukwabo agatsinda kabo, n'abakobwa begeranye ukwabo, bafatanye ku rutugu, bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kaki, abahungu bo mu mapantaro y'umukara.

Abana b'abanyeshuri biga mumashuri ya segonderi bicaye mu ntebe z'imbaho kandi ku murongo bambaye udupfukamunwa n'iniforume y'ishuri, amashati y'umweru n'amajipo ya kaki kandi bakurikiye ikiganiro.

Muri sale inyubako segonderi, harimo, abanyeshuri, bicaye, bambaye, iniforume, kandi, hagati yabo, harimo, ameza, bicaye mu matsinda, bafite, za mudasobwa, bari gukoresha.

Abantu bari gukora ubukangurambaga higanjemo abanyeshuri ba pirimeri bari kumwe n'umupolisi abandi bambaye imipira y'umweru bafashe bandelore yanditseho ngo "Twamagane jenoside yakorewe Abatutsi n'ingengabitekerezo ya jenoside" kandi bakaba bari ahantu mu muhanda w'igitaka.

Abana bambaye inifomo y'ishuri kandi bari ku kigo cy'amashuri bigaho, basohotse bari hanze, ab'imbere baciye bugufi bapfukamye abandi bahagaze, imbere yabo hari n'indabyo.

Urubyiruko rwicaye hamwe mu nyubako, imbere kandi imbere yabo hari ameza bamwe barambitseho ibipande, abandi bashyizeho amaboko, abandi bayegamiye bagiye bambaye imyenda itandukanye, bakurikiye uri kubaha ikiganiro.

Ikigo cy'ishuri cya segondaire hari abanyeshuri ku mbuga. Inyuma yabo hari ibiti binini bikuru kandi bambaye iniforume yiganjemo udupira tw'ubururu n'amajipo ya kaki kandi harimo n'umwarimu hagati yabo.

umugore n numugabo bahagaze barikumwe bateganye, nyuma yabo hari ikigega kinini cy'mukara kijyamo amazi bari guha umwana w'umunyeshuri ibikoresho by'ishuri.

Mu nyubako mu cyumba mberabyombi kinini kirimo intebe n'ameza hagati yazo ziticayeho abantu bari kugenda bambaye amajiri, bamwe imbere abandi inyuma, kandi bamwe bafite ibitabo mu ntoki.

Umukorerabushake wa Croix rouge wambaye n'ikirango cya Croix rouge inyuma ye hari abana bbanyeshuri b'abakobwa batatu ari inyuma ye bamukurikiye bambaye imipira isa n'amajipo asa kuri babiri umwe yambaye isa ukwayo.

Ishuri rya kaminuza ryubatse neza, rigeretse, rifite ubusitani imbere yaryo burimo indabyo, hirya hari ikigega kimanitse, hejuru imbuga ikoze neza iririho amapave.

Inyubako yubatse neza ya kaminuza, ifite ubusitani imbere harimo indabyo, zikase neza kandi nayo iruhande rwayo hateretse akadobo bashyiramo imyanda, isize amarangi y'umweru.

Inyubako yubatse neza ifite irange ry'umweru kandi ifite n'inkingi imbere yayo kandi hari n'umuntu uhagaze arimo yiyumvira.

Furaya y'abadive b'i Gahogo kandi yanditseho ngo icyumweru cyahariwe amasengesho kiriho amabwiriza atandukanye n'amakorali anyuranye n'umubwiriza w'ijambo ry'imana ari we karangwa nafutal.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza kandi gifite amadirishya y'ibirahure mo imbere hicayemo abanyeshuri babiri batagaragara neza, bamwe bari kwandika kandi inyuma yacyo hari ibiti.

Ku ishuri mucyumba aho bakorera ubushakashatsi, harimo umunyeshuri wambaye umupira w'umukara arimo arebera mu ndebakure, asuzuma gukoresha igikoresho twita microscope, kibasha kureba itaboneshwa ijisho, inyuma ye hari abandi bahagaze.

Umuhango wo gusoza amashuri ku munyeshuri urangije kaminuza, aho yambaye ikanzu ndetse n'ingofero, ari kumwe n'umubyeyi we nawe wambaye ikanzu n'ingofero kandi ari kumuha impano anamufashe mu kiganza amushimira.

Umunyeshuri wiga muri Kaminuza yakoze ikirori cyo gusoza amashuri ye, inyuma ye mu itente hicaye abandi bantu benshi kandi we ahagaze imbere yabo yambaye amakanzu bambara barangije, ari kumwe n'umugabo uri kumuha impano ari kubafata ifoto.